Aha ni kwa muganga, aho n'abaganga barimo kwita ku murwayi, bamusuzuma uburwayi afite kugira ngo babashe kumuha imiti iza kumworohereza, cyangwa se kumukiza uburwayi afite.

Iyi ni ifoto bafotoye ahantu bashaka kugaragaza ubwoko bw'ibihingwa butandukanye. Iyi foto ubwoko bw'ibihingwa igaragaza nta bwo nabashije kumenya ubwo ari bwo, ariko ibihingwa bimeze neza. Akaba ari ifoto bafotoye bakoresheje tekinosupaka.

Ibi ni ibisheke . Ibisheke biragurishwa ,abahinzi bakabona amafaranga . Ubuhinzi bw'ibisheke bukunze gukorwa kandi mu karere ka Gakenke . Ibisheke ni ingirakamaro kuko turabirya bivamo n'isukari, iyo byanyujijwe mu nganda.

Uyu ni umugwegwe kera bakoreshaga bafura imyenda cyangwa se baboha ibirago bitandukanye harimo imisambi, bagakoramo n'ibindi bikoresho bitandukanyekenshi bakunda no kuwukoresha no mu kubaka mu gutera imbariro n'ibindi.

Aya ni amateke. Amateke ni igihingwa ngandurarugo, kikaba kibarizwa mu bwoko bw'ibinyabijumba. Amateke barayagurisha, bakabona amafaranga, bakaba banabasha no kuyarya, kugira ngo baze kugira imbaraga no kugira ubuzima bwiza.

Aya ni amabuye aboneka mu murenge wa Shingiro. Amabuye akaba ari ibikoresho bakoresha mu bwubatsi, kugira ngo inzu ibashe gukomera, cyane cyane iyo bagitangira inzu mu byo bita fondasiyo.

Ibi ni ibiti. Ibiti bikorwamo bibazwamo imbaho bakanabicana, bakabigurisha bagakuramo amafaranga cyangwa se bakabikoresha mu bwubatsi n'ibikoresho byo muri salo nk'intebe n'ibindi.

Aya ni amasaka amasaka ni ubwoko bw'ibinyampeke, amasaka tukaba tuyakoresha mu kunywa igikoma, mu kwenga inzoga ikindi kandi amasaka ni igihingwa kiboneka mu gihugu cyose, ahantu hose bakunze kuyahinga akabyarira abantu inyungu.